Imbangukiragutabara imodoka ni ipagukiragutabara itwara abantu badashoboye kwijyana, bananiwe, bavanwe ku bitaro, babatwara ku bindi bitaro cyangwa se bavanywe mu ngo zabo badashoboye kwijyana bagatwara mu bitaro mu buryo bwo gutanga ubufasha bw'ubuvuzi byihuse kugira ngo hatagira uza kwangirika cyangwa se ngo agire ikibazo bitewe n'urugendo cyangwa agire ubuvuzi vuba.

Ubu ni uburyo bwashyizweho na Leta, ahe bwo gutwara inkomere cyasaba abarwayi cyane, badashoboye kwigeza kwa muganga, babajyanye mu bindi bitaro, cyangwa se ama taransiferi, bavana mu bitaro bimwe, bakabajyana mu bindi bitaro, n'uburyo bwo gufasha kurwaza cya se kugira ngo babavure vuba, babakemurire ikibazo cyabo.

Iki ni ikigo nderabuzima, abagaragara ni abakozi bakora mu kigo nderabuzima, bafasha abaturage baturiye icyo kigo nderabuzima mu buryo bwo koroshya cyangwa se gufasha abarwayi kuborohereza ingendo, ntibirirwe bajya ku bigo nderabuzima biri kure, bakajya ku kigo nderabuzima kiri bugufi bwabo.

Imiti gakondo, ibiganza by'umuntu birimo biragerageza kuyivuguta kugirango ibe yabasha kuvamo umuti ibashe kugira ibyo ivura gusa mu buryo bwa gakondo bakoresheje ibyatsi igihe bavura.